Abagabo bari mun nzu raboratware harimo intebe za tabureti, umugabo ufite uruhara yambaye umupira w'umukara na tisheti y'umutuku, harimo n'uwundi wambaye itaburiya abandi babiri.

Ishuri ririho abanyeshuri, hariho mwarimu nawe we ariko kubasoruviya, ku ruhande rw'ishuri hariho igiti, ndetse n'abana b'abanyeshuri bambaye inifumu.